Abaganga bakiri batoya bari kwita ku bakuze, harimo umeze nk'umuyisilamu witandiye wambaye amarineti n'impuzankano y'ubururu, yambariyemo umupira w'amaboko maremare w'icyatsi, ari gufata umuvuduko w'amaraso uwuhicaye ukuze.

Abana babiri bato bari mu rugo, bari mu gihe cyo koza intoki zabo, umwe afite amazi mu ntoki ari gusukira uwundi, mu maso habo haragaragara ibyishimo n'umunezero kubera ko bashimishijwe no gukora igikorwa ababyeyi babo bababwiye.

Indobo iteretse hasi y'ivomero amazi ari kumanuka ari menshi, uyu mwana bisa nk'aho afite icyaka cyinshi ari kunywa amazi anywesheje ibiganza, yambaye ikabutura y'umutuku, inkweto za palasitiki zisa ubururu n'agashati karimo amabara ya gisirikare.

Umusore muremure ufite inyogosho isukuye, yambaye amarineti, umupira wa oranje, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akaba afashe mu ntoki umwana ukiri muto nawe wambaye umupira wa oranje, ipantaro y'ubururu ndetse n'amasogisi.

Iyo umuntu akuze hari ibirwara byinshi bigenda bimuzahaza kubera ko biba bifatanya n'imyaka, ni byiza yuko iyo umuntu ageze mu zabukuru atangira kugenda gufata inkingo nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo yirinde ibintu ibyo aribyo byose byamufatanya n'izindi ndwara yaba asanzwe arwaye.

Abakozi bakorera ku kigo kimwe bambaye impuzankano zisa z'ubururu, bari kumwe n'undi mugabo wambaye ikote muremure, iryo kote rikaba risa kacyi, bafite ikoranabuhanga rya terefone mu ntoki, harimo undi mugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru.

Impamvu ibigo byinshi bishyiraho impuzankano, ni ukugira ngo abanyeshuri babashe gutandukana n'abantu basanzwe. Umunyeshuri ugiye ku masomo ye, agomba kuba atandukanye n'undi muhinzi ugiye mu murima cyangwa se umuganga ugiye kwa muganga cyangwa se umuntu ugiye muri banki.

Abantu benshi bazengurutse intebe y'ikizeru, harimo umu damu ufite imisatsi y'umutuku, iburyo bwe, harimu umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, usa nkaho ari gusobanurira abandi, bamuteze amatwi. Kuri iyo meza hariho mudasobwa iheteretse, ndetse itereza ku gitambaro cy'umweru.

Ubu u Rwanda ruri muri bimwe mu bihugu bifite umutekano ukomeye muri Afurika. ibi byorohereza abategura amanama, kugira ngo babashe kwakira ba mukerarugendo n'abandi bantu baturutse hanze. Iyi ni imwe mu nama, yihariwe kwita ku buzima, ikaba ari inama izabera muri Ghana.

Umugabo arasa nk'uri gusobanurira abandi bantu ibintu byinshi, hirya ndi kuhabona umugabo wambaye ishati y'iroza, we yambaye ishati y'ikijuju, hasi hari abadamu batatu, umwe yitandiye agatambaro k'umweru, undi yambaye ibitenge, undi yambaye imyenda isa icyatsi kibisi.

Leta ihora idushishikariza koga intoki n'isabune n'amazi meza. Uyu mwana ari guseka urabona ko yishimye kubera ko ari gukora ibyo yabwiwe n'ababyeyi, yuko igihe cyose akeneye gukaraba yaba agiye koga, avuye mu bwiherero, cyangwa ikindi gihe cyose kugira ngo yirinde umwanda

Icyumba kirimo ibitanga umwuka kirimo amakaro asa umweru harimo abaforomokazi bambaye udupfukamunwa, impuzankano z'icyatsi, birasa nk'aho ari batatu, ariko harimo umwe wambaye cyangwa se witangiye agatambaro k'icyatsi mu mutwe karimo utudomo tw'ubururu.

Umunezero n'akanyamuneza aba badamu bafite biragoye kubihisha kubera ko bari kubyina barambuye amaboko, bamwe muri bo bambaye ibitenge, abandi amakanzu, abandi amakabutura. Bari ahantu bisa nk'aho bari barangije inama, bagafata akanya gato kugira ngo basusuruke.

Umudamu munini w'igikara wambaye ijire y'icyatsi, afite n'amarineti ndetse yambaye n'agafukamunwa, afashe agakoresho kabugenewe gapima ubushyuhe bw'umubiri mu ntoki. Aka gakoresho ni kamwe mu bintu byifashishwaga muri covid kugira ngo hapimwe umuntu waba uyirwaye.

U Rwanda ubu ni hamwe mu hantu hamaze kwakirirwa amanama akomeye mu bihugu bibarizwa mu burasirazuba bw'Afurika. Kubera umutekano waho mwinshi kandi uhagije, abanyamahanga benshi batandukanye basigaye baza kuhakorera ishoramari ndetse n'amanana agiye akomeye yigirwamo bimwe mu bintu byateza imbere Afurika yose.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe gutsura ikoreshwa ry'amazi mu Rwanda, gikunze kohereza aba egenti bacyo buri kwezi, mu ngo z'abantu kugira ngo bapime amazi yakoreshejwe kuri metero kibe bitewe n'amazi abantu basanzwe bakoresha, bakabaha fagitire bakwiriye kwishyuriraho amazi yabo.

Umubyeyi ufite akanyamuneza kenshi mu maso, ari kumwenyura acigatiye uruhinja rwe mu ntoki, umuganga umuri hejuru wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amaherena ufite menshi ari kumuhereza imiti, uyu mwana ari kurira ariko ibyo bari kumukorera ni kubw'inyungu ziwe z'ejo hazaza.

Leta yagiye ishyiraho uburyo bw'urukarabiro mu bigo by'amashuri ya Leta ndetse bishishikarizwa n'ibindi bigo byigenga. Ibi byagiye bishyirwa ahantu hegereye ubwiherero kugira ngo abana bajye biga kugirira isuku imibiri yabo, bakiri batoya.

Ntabwo ari buri gihe umwana agize ikibazo uba ugomba guhita umwirukangisha kwa muganga, ahubwo leta yagiye ishyiraho gahunda y'abakangurambaga b'ubuzima, bagiye bari mu midugudu itandukanye, aho bashobora kureba ikibazo umuntu agize, udahise umujyana kwa muganga ako kanya.

Kimwe mu bibazo by'ingenzi Leta iri kwitaho, ni ukugeza amazi ku baturage mu gihugu cyose. Hano hari abantu benshi bahagaze, bari kwitegereza umumama wambaye umupira w'icyatsi n'agatambaro k'umuhondo mu mutwe, uri gufasha kuvomera umwana muto, wambaye agapira k'umutuku.

Leta yashyizeho gahunda zigiye zitandukanye zo kuvuza no gukingiza abana bakiri batoya. Iyo umwana agejeje amezi runaka cyangwa se imyaka runaka, umubyeyi we, ategetswe kumujyana ahabugenewe ku bigo byabugenewe kugira ngo babashe kubaha izo nkingo ndetse n'ibindi bintu bibafasha bakiri bato.

Mu masomo twese twiga muri segonderi, harimo amasomo atwigisha ishoramari. Ni byiza yuko niba ufite imari yawe, wiga kuyishora neza ahakwiriye kugira ngo izabashe kukuviramo inyungu y'igihe kirekire. Tangira wige kwizigama ndetse n'aho ushora amafaranga kugira ngo uzabashe kunguka ya mafaranga wari warashoye muri business yawe.

Iyo hari umunsi utangirwaho serivise cyangwa se gahunda za Leta, ku kagari cyangwa umudugudu runaka, bigusaba kuzinduka kare kubera ko uba usanga hari abantu benshi bakeneye izo serivise, bityo icyakubera cyiza ubyuke nka saa kumi kugira ngo ugerageze gutanga abandi ku murongo.

Kera uburyo bwo kwamamaza business bwabaga ari kuri radio gusa, ariko ubu ngubu kubera murandasi yoroheje ibintu, abantu bose basigaye bafite telefone ngendanwa aho basomera amakuru yabo ku mbuga nyinshi zitandukanye. Ubu ngubu abamamaza basigaye bakora amafoto bagashyiramo ibyo bari kwamamaza.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, Sudani yaje kuvamo Sudani ebyiri. Iy'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Hano turahabona Abayobozi bahagarariye Sudani y'Amajyepfo bari mu kiganiro, hari amacupa y'amazi ateretse imbere yabo n'ibirahure, ndetse bafite amakayi manini yo kwandikamo ibivugirwa muri iyo nama.

Ameza manini ariho igitambaro cy'icyatsi, ateretseho ibyo kwiyakira. Azengurutswe n'abagabo icyenda, harimo abambaye amakoti n'abambaye udupira, harimo umugabo wambaye amarineti. Birasa nk'aho bari kuganira ku bintu by'ingenzi.

Ese wari ubizi yuko amazi ashobora kuvamo amashanyarazi? Iryo terambere no mu Rwanda na ho ryarahageze. Ariko izi mashini zitunganya aya mashanyarazi na zo zirya umuriro mwinshi, bityo zikunda gushyirwa ahantu habugenewe h'umwihariko mu gihugu.

Urubyiruko koko nimbaraga z'igihugu. Hano hari urubyiruko rwinshi rwahuriye hamwe, ruri gufatanya kwibutsa abantu, umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Ntabwo harimo igitsina gore gusa kubera ko ari kanseri y'inkondo y'umura, ahubwo hari n'abasore baje gufatikanya na bo kugira ngo bagaragaze uyu munsi yuko ari ingenzi.

Twese nta muntu uba utarakuze bamubwira gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ariko iyo ukiri umwana ntago uba ubyumva impamvu, ariko iyo ukuze usobanukirwa yuko indwara zandurira mu mwanda zishobora kugutwara amafaranga menshi uri kuzivuza. Bityo rero irinde hakiri kare.

Ibitaro bya Caraes cyangwa se hakunze kwitwa i Ndera, ni hamwe mu hantu mu gihugu cy'u Rwanda hakunze kujyanwa abantu bafite ikibazo cyangwa se ubumuga bwo mu mutwe, na bo ni abantu nk'abandi, nubabona ntukabitaze kubera ko ibyo barwaye nabo baravurwa bakabikira.

Abantu bakuze, Leta na bo yabashyiriyeho gahunda yitwa ejo heza, aho bashobora kwizigamira, aho kugira ngo azagere mu za bukuru ajye atangira kubwira abana biwe n'abuzukuru ngo bamuhe amafaranga, iyo atangiye kwizigamira muri ejo heza, na we abasha kugira amafaranga yiwe ku giti cyiwe, ashobora gukemuza utubazo two ku ruhande.

Mu Gihugu cyacu tugira umunsi Mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Kuri uyu munsi abakora muri izi nzego z'ubuzima bakunze gukangurira abantu cyangwa se kubashishikariza kujya baba hafi cyangwa begera abantu bafite iki kibazo, kugira ngo igihe yaba ahuye na kirize bahite bamwegereza ubuvuzi bw'ibanze.

Ntabwo kujya kuganiriza abaganga babugenewe bita ku buzima bwo mu mutwe ari ukubera ko gusa uba ufite ikibazo cyo mu mutwe, hari igihe ushobora kujya kubareba igihe uhura n'agahinda kenshi, kwigunga cyangwa se udafite igisubizo cy'ubuzima, begere ubaganirize kuko baba barabyize kandi babikora kinyamwuga, kandi bashobora kugufasha cyane.

Inama y'abanyamuryango irangiye begereye hamwe kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso, imbere hari umugabo wambaye marineti n'ishati y'umutuku yijimye, afashe ku meza iriho amazi, aka gacupa karasendereye, ku murongo w'imbere hari abagabo batanu basutaraye harimo uwambaye marinette yijimye ndetse n'umugore witangiye agatambaro mu mutwe na we wambaye amarineti.

Ubuzima bwo mu mutwe bugomba kwitabwaho neza kuko kutabikora bishobora kugira ingaruka zikomeye. Ibyiyumvo byo kumererwa nabi cyangwa guhangayika, bishobora kugenda byiyongera, bigatuma umuntu adashobora gukora neza mu buzima bwa buri munsi. Kwifuza no kuvugana n'abaganga babifitiye ubumenyi, ni intambwe ikomeye yo gukira.

Umugore w'umunyafurika afite isura itagaragaza ibyishimo. Amaso ye yerekana uburakari, ndetse iminwa ye yayifunze cyane bigaragara ko afite icyo ashaka kuvuga. Yambaye umwenda mu kinyafurika uzwi nk'igitenge ugaragaza amabara agiye atandukanye.

Kubera iterambere rikataje, ubu ngubu hasigaye hari igikamyo gifite ibitaro ngendanwa byo kwita ku buzima bwo mu mutwe. urugero niba urwariye i Bugesera si ngombwa kugira ngo ujye kwivuriza Ndera kugira ngo ubashe kwakira ubuvuzi ukeneye. ahubwo ahantu aho ariho hose bino bikamyo bisigaye bizenguruka mu gihugu, ukaba wabasha kubona ubufasha wifuza kandi bwihuse.

Ese ko turi kubona inyuguti RBC n'ikirangantego cy'u Rwanda tuzi icyo bisobanuye? RBC ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'ubuzima mu Rwanda. Cyashinzwe mu mwaka bibiri na cumi na rimwe, nyuma yo guhuza inzego cumi n'enye z'ubuzima, kigamije gutanga serivisi z'ubuvuzi zinoze.

Mu gihe cya covid cumi n'icyenda leta yashyizeho amategeko n'amabwiriza agiye atandukanye atwibutsa yuko tudakwiye kwirara ngo covid yarashize. Ahubwo tujye dukomeza dukoresha ubwo buryo, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, dushyiramo metero kandi dukoresha udupfukamunwa ahantu duhuriye n'abantu benshi.

Intebe nk'izi ngizi ukunze kuzisanga kwa muganga w'amenyo, niba ukeka ko hari ikibazo ushobora kuba ufite mu kanwa cyangwa cy'amenyo, egera ku kigo nderabuzima, urebe uburyo wahabwa ubufasha kugira ngo uhuzwe n'umuganga w'amenyo abashe kukuvura.

Abaganga b'amenyo badushishikariza koza amenyo yacu mu gitondo igihe umuntu abyutse, i saa sita umuntu arangije kurya, ndetse n'igihe umuntu agiye kuryama. Si ibyo gusa kandi kuko badushishikariza kujya duhinduranya uburoso bw'amenyo byibuze buri mezi abiri.

Ubu ngubu ubuvuzi bwateye imbere ku rwego rushimishije, kubera ko usigaye usanga hari insimburangingo zikoreshwa n'abaganga, aho n'igihe umuntu yagize impanuka akabura urugero nk'amenyo atakibashije gukura, bamushyiriramo insimburangingo z'amenyo.

Iyo umuntu yagize imvune akajya kwa muganga habaho icyo bita kumucisha mu cyuma. Impamvu umuntu aca mu cyuma ni uko hari igihe ikintu cyabereye mu mubiri indani, kidashobora kuboneshwa n'amaso y'umuntu ahubwo hakitabazwa ibyuma by'ikoranabuhanga byabugenewe, bikoresha imirasire yabyo kugira bibashe gutungereza imbere mu mubiri birebe ahari ikibazo.

Umuganga w'amenyo w'umugabo usa nk'ukuze, yambaye marineti, afite agasatsi gake isaha ku kuboko ndetse yambaye n'uturindantoki. Ari gukoresha itoroshi amurika mu kanwa umwana kugira ngo abashe kureba ikibazo afite mu kanwa amenya aho ahera amuvura.

Ntabwo imyandinda ifata hagati y'amenyo ushobora kuyikurishamo uburoso, nk'uyu musore turi kubona hano, ariko kubasha gukuramo imyanda yifashishije akagozi, ibi nawe wabyikorera, kubera ko ushobora gukoresha urudodo rusanzwe, ukaba wabasha gukuramo imyanda iri hagati y'amenyo.

Uzi impamvu abaganga b'amenyo badushishikariza kuyoza mbere yuko turyama? Ni uko iyo turyamye, umunwa umarara igihe kirekire ufunze bityo iyo hari mikorobe wararanye, zimaramo igihe kirekire kubera ko uba uribuze kuyoza mu gitondo.

Nta kintu gishimisha umuntu ugeze mu za bukuru nko kubona umwuzukuru wiwe cyangwa se abuzukuruza, bari kumwe n'abana b'iwe bishimye bose baseka. Ibi bimwongerera iminsi yo kubaho kubera akanyamuneza igihe ari kubona bose bari ahantu hamwe, bari kumwe na we kandi bamwitayeho.

Kuri ubu hari ibigo byinshi bigiye bitandukanye byita ku basheshe akanguhe se bageze mu zabukuru, uyu mwari mwiza ari kwita ku mukecuru bisa nk'aho akuze w'imvi nyinshi ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo afashe imitsi yiwe.

Biba byiza iyo umuntu ugeze mu zabukuru aba afite umuntu umuba hafi igihe cyose kugira ngo ataza kugira ikibazo akagira kirize, akaba yabura umuntu umuba hafi umufasha mu bintu ari gukora kubera ko hari igihe ashobora kuba ari mu kazi, akaba yahura n'ikibazo ndetse cy'ibura ry'amaraso cyangwa ikindi kibazo ariko akabura umuntu umuba hafi.

Umukecuru w'imvi nyinshi afite isahani mu ntoki yuzuye salade irimo ibitunguru, inyanya n'izindi mbuto zitandukanye. Afite ikanya mu ntoki biragaragara ko nta kimwihutisha, ahubwo ari kwishimira buri funguro mu buryo bworoheje, mu maso yiwe haragaragara ubuzima n'amahoro.

Iyo umuntu ageze mu zabukuru, ni byiza ko aba afite abantu bamuri hafi kubera ko ashobora gufatwa na kirize y'ibi birwara by'ibyuririzi, igihe icyo ari cyo cyose, agakenera umuntu uhita umugeza ku butabazi bw'ibanze byihuse kugira ngo bitaza kumuviramo izindi ngaruka zikomeye.

Umuntu nk'uyu nguyu ugeze mu zabukuru, bakunze kumutegeka indyo yemerewe kurya n'iyo atemerewe kurya. Ntabwo ushobora kugera muri iyi myaka, ngo ukomeze urye amafiriti n'ibindi bintu by'amavuta, ahubwo utangira kujya ku ndyo zitogosheje, nk'ibihaza, amateke, ibijumba n'ibindi.

Abanyarwanda babivuze ukuri rwose ngo umwanzi ntakabyare, nta kintu gishimisha nko kubona umuntu ugeze mu zabukuru abona umuntu umwitaho, umuba hafi akantu kose akeneye akaba yabasha kukamusaba kubera ko iyo ageze muri iyi myaka ntago aba akibashije kubyikorera.

Iyo umuntu ageze mu zabukuru hari igihe kigera aha aba atakibashije kwigenza ahubwo agakenera umuntu umufasha mu turimo twa buri munsi, uwo abasha gutuma, umufasha kumugaburira ndetse no kumugendesha ahantu hatoya kugira ngo agorore imitsi.

Igisa nkaho ari koperative y'abadamu, hari abadamu bagera muri barindwi cyangwa se umunani, bambaye amajipo y'imikara n'imipira y'imyeru, bose bambaye udupfukamunwa. Ndetse harimo n'uwambaye umupira w'ubururu bw'ikirere n'inkweto z'umukara. Imbere bayobowe n'umudamu wambaye ibitenge, bameze nk'abari kubyina. Bafite umunezero mwinshi cyane.

Kutiga biragatsindwa. Amasomo uvana mu ishuri ntabwo ari amasomo agufasha mu gihe ukiri muto gusa, n'iyo ukuze bya bintu wize burya nibyo bigaruka bikakugirira umumaro igihe utakibasha kuba uri kumwe n'abana bawe kugira ngo bagusobanurire cyangwa se bagufasha mu bintu byose.

Birashimishije kandi bisigaye bitangaje, kuba wagenda ukabona umuntu mukuru w'umusaza cyangwa w'umukecuru azi gukoresha terefone yiwe y'ikoranabuhanga. Kubera ko ku myaka ya kera byabaga bigoye kubona umuntu mukuru uzi gukoresha terefone yiwe, bigasaba kwitabaza undi muntu kugira ngo abashe kumwerekera uko ayikoresha.

Uyu musaza w'imvi nyinshi wambaye amarineti, ari kumwe n'umwuzukuru we bari gusoma igitabo. Urabona ko bishimye rwose kandi bahuje urugwiro. Imbere yabo hari amatasi y'imyeru meza cyane arimo icyayi bari kunywa, basangira, bishimye ,baseka.

Iyo umuntu nk'uyu nguyu ugeze mu zabukuru, ni byiza kumuba hafi, mukagerageza gukora uturimo turuhura mu bwonko, mukagerageza gukina nk'amakarita, mugatera urwenya kugira ngo age abasha kuruhura ubwonko, abona ari kumwe n'abantu bamuri hafi.

Uyu mugabo ufite imvi nyinshi ari kumwe n'abana bisa nkaho ari abuzukuru biwe, harimo akana k'agakobwa kambaye umupira w'umweru n'ikanzu cyangwa se igisa nk'ijipo cy'umutuku. Gafite umwembe mu ntoki. Hepfo gato hari akandi kana k'agahungu gafite akajerikani k'umweru mu ntoki.

Kuboneza urubyaro si ikintu buri umwe wese ashobora gufata umwanzuro, atabanje kugisha inama uwo babanye, cyangwa se bafatanyije urugo ahubwo ni umwanzuro bafata bombi, bakabyigaho kugira ngo barebe icyateza imbere urugo rwabo kandi nta nkomyi ibayeho.

Minisiteri y'ubuzima ikunze guhora itanga impanuro kuri radiyo itwigisha byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kimwe mu bikunze kugarukwaho ni ukwirinda itabi, kwirinda inzoga nyinshi, kwirinda kurya indyo ituzuye ndetse n'ibindi byinshi bishobora kwangiza ubuzima bwacu.

Kuri ubu ngubu Minisiteri y'Uburezi, yemereye abantu benshi bagiye bafite ibigo byigenga, na bo gutangira ama iniverisite akigisha amasomo ya siyanse, nk'asanzwe ari mu bigo bya Leta, urugero: nka kaminuza y'i Butare cyangwa se ikunze kwitwa Kaminuza Nkuru y'u Rwanda.

Intebe zisa umutuku nziza, zicayemo abantu bagera kuri bane bakuze, harimo umugabo ufite uruhara wambaye ishati ya karokaro, umudamu cyangwa se umumama wambaye ikanzu irimo uturabyo, umupapa wogoshe wamazeho umusatsi, wambaye ishati y'umukara irimo akarongo k'umweru, wegeranye n' numudamu nawe usutse.

Duhereye ibumoso, hari abaganga benshi bambaye amataburiya y'umweru, iburyo bwaho hari abandi baganga benshi bambaye impuzankano z'ubururu bw'ikirere, hasi yaho hari umugabo wambaye ijire ya oranje uri gukoresha imirasire y'izuba, umuganga uri gukoresha icyuma cyo kwa muganga ,ndetse umudamu wambaye agapira k'umukara n'undi musore wambaye impuzankano y'ubururu.

Leta y'u Rwanda yagiye yoroshya amabwiriza ariho, ku bijyanye no kugira ngo buri muturage abashe kumenya ahantu yajye kwivuriza, cyangwa yakura serivisi z'ubuzima, ubu ngubu biroroshye kubera ko hari mutielle de sante, umuntu ashobora kwivurizaho ndetse n'umuryango wiwe, aho kugira ngo umuntu arembere mu rugo, akaba yagezwa ku bitaro bimwegereye akivuza akoresheje mutuelle de sante.

Umukobwa mwiza cyane w'imisatsi isutse y'umukara, yambaye amarineti, afite insakazamajwi mu ntoki, yambaye agakomo ku kuboko, ikote rya kaki, yambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara. Afite ikayi mu ntoki n'ikaramu bisa nkaho ari gutanga imbwirwaruhame ahantu hasa nk'ahabereye inama ikomeye.

Iyo umuntu ari kubagwa uzasanga bikorwa n'umuganga urenze umwe kubera ko kubagwa ni ikintu kiba gikomeye kandi gisabwa kukitondera kuko hakoreshwa ibyuma bigiye bitandukanye n'ibikoresho byo kwa muganga, haba hari abantu bagenewe kubihereza umuganga mukuru, umuganga mukuru akaba ari we ukora akazi kanini muri aba bose.

Amatara menshi kandi meza yaka cyane, ari hejuru mu cyumba gisa nk'ikiri kuberamo inama, kirimo abantu benshi bagiye bakomeye, harimo abambaye kositimu, abambaye amarinete n'ibindi. Inyuma yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bifata amashusho ndetse n'akazu kaba karimo usemurira abantu bari aho ngaho batabasha kumva ururimi ruri gutangirwamo inama.

Uhereye iburyo ugana ibumoso hari inkumi nziza cyane yambaye ishati ifite imisatsi y'ibisuko birebire, umupapa wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye akurikiranye n'undi w'inzobe wogoshe wamazeho, umumama wambaye ikanzu y'umuhondo, umudamu wambaye amarinete ndetse n'umugabo wambaye ikote n'ishati y'iroza.

Icyapa kinini cyanditseho umubare bibiri na makumyabiri na kane. Birasa nk'aho ino ari inama yahurije hamwe abantu, bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima. Harimo umudamu w'umuzungu, abagabo b'Abanyarwanda, harimo uwambaye amarinete n'undi wambaye ikositimu y'ubururu bwijimye, na karuvati y'umutuku.

Abanyeshuri bo muri pirimeri kugira ngo babashe gusobanukirwa neza, bakunze guhabwa ibitabo cyangwa se ibyitwa imfashanyigisho kugira ngo ibintu bari kubasobanurira babyige bari no kubireba, bari kubirebesha amaso yabo. Ibi birafasha cyane kubera ko abasha gusigarana ishusho y'ikintu bari kumubwira mu mutwe.

Mu cyumba cy'umurwayi wo kwa muganga, uhasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo nka puberi, harimo ibyuma bibara uko umutima uri gutera, harimo utumeza turambikwaho ibiryo n'amateremusi y'abamuzaniye cyangwa se bamugemuriye ibyo kurya ndetse kandi ukunda gusanga ari ahantu hasukuye kandi harimo ibirahuri byinjiza urumuri n'umwuka uhagije.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru ifite amategura, ifite ubusitani bunini bwiza, ndetse ifite n'ibintu byabugenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, aha harasa nk'aho ari kwa muganga, hari ibirahuri binini byinjiza urumuri ruhagije ndetse n'umwuka mwiza.

Kanseri ni imwe mu ndwara zihitana abantu benshi mu mwaka. Niba uzi umuntu uyirwaye, mushishikarize kugana kino kigo leta yashyizeho cyita ku barwayi by'umwihariko ba kanseri kugira ngo bajye babasha kuganira n'inzobere, babashe kwita ku buzima bwabo.

Inyubako nk'izi ngizi, ukunze gusanga hari ahantu abantu bahurira igihe habaye inkongi y'umuriro. Usanga zifite n'amaparikingi manini n'ubusitani bwinshi kandi burimo ibiti birebire, umuhanda wa kaburimbo, ibintu byifashishwa mu gihe habayeho inkongi kugira ngo bahite bayizimya vuba vuba na bwangu.

Iyo umurwayi arwaye aryamishwa ku gitanda cy'ikoranabuhanga cyangwa ibizwi nko gucishwa mu cyuma. Icyo gihe yinjizwa mu cyuyuma kinini gifite uruziga rukeye rwaka amatara menshi. Iki cyuma gikunze kumvikanamo urusaku rworoheje, kubera ibikoresho byinshi biba bicanye hafi aho.

Jaride nziza cyane kandi nini, ifite ibyatsi bikase biri ku kumurongo, aha ngaha harasa nk'aho ari kwa muganga. Ndi kubona inzugi zubatse mu mbaho, inzugi zisa neza, ibintu byagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, ndi kubona amadirishya agiye afunguye, hari ibyumba bimwe birimo urumuri, ibindi birajimije.

Henshi mu gihugu ubu hari abakangurambaga b'ubuzima bagiye batandukanye batwigisha kandi badushishikariza ku kwirinda Malariya, bimwe mu bintu batubwira, harimo kugura inzitiramibu, kwirinda ibidendezi by'amazi ndetse no gufunga amadirishya hakiri kare igihe bugorobye.

Hamwe mu hantu uba utegetswe kugerayo hakiri kare, ukizindura, igihe ukeneye serivisi zaho, ni kwa muganga kubera ko abarwayi aba ari benshi n'abakeneye muganga, bityo ni byiza ko igihe ukeneye serivisi zaho, wizindura wowe ubwawe ukahagera mu gitondo ugafata nimero kugira ngo ubashe kuza guhabwa serivisi ku gihe.

Iyo umuntu yahawe ibitaro, ukunze gusanga akenshi aryamye ku mashuka y'umweru, akunze gusa nk'ikanzu baba bamuhaye ashobora kwifashisha mu minsi azamara muri ibyo bitaro. Ariko abantu benshi barabitinyam kubera ko usanga bihenze. Bityo, iyo umuntu azi ko yuko ashobora kuba afite umuntu uri kwa muganga, yihutira kugerageza gukora ibishobotse byose kugira ngo abe ashaka amafaranga azabasha kwishyura ibyo bitaro.

Kera hari imirimo imwe yabaga imeze nk'aho yahariwe abagabo, indi ikaba yarahariwe abagore ariko muri iki gihe, ubu ngubu bisigaye bishimishije kubona ko n'abagore basigaye bajya mu mirimo kera yitwaga iy'abagabo, na bo bakabasha kuyikora neza. Urugero nk'ubuforomo cyangwa se ubuganga.

Ibitaro byose bigira gahunda yo gusuriraho abarwayi. Ntabwo igihe cyose ukeneye umurwayi wawe ariko uhita uza ngo umubone ahubwo abayobozi b'ibitaro bagena igihe ndetse n'iminsi n'amasaha yabugenewe yo kugira ngo abantu babashe kuza gusura abarwayi babo.

Farumasi zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu, ziba zifite ibigo by'ubwishingizi zikorana na zo. Hari ubwishingizi bashobora kuba bemera n'ubundi bashobora kutemera. Bityo igihe udafite ubwo bwishingizi bakorana na bwo, wishyura igiciro gisanzwe nk'icy'abandi bantu bose.

Akenshi usanga inama nk'izi ngizi z'abantu batuye mu Mudugudu umwe, cyangwa Isibo imwe, cyangwa Akagari kamwe, zikunze kwifashisha, ahasanzwe higirwamo n'abanyeshuri ariko igihe badafite amasomo, ugasanga bifashishije aya mashuri yabo kugira ngo bakoreremo inama.

Bijya bibaho ko iyo umuntu afite ikibazo gikomeye, ba muganga bategeka umurwayi yuko atemerewe gutaha imuhira, ahubwo bakamwandikira ibitaro, muri icyo gihe abo babana cyangwa se umuryango, bamwitaho bakamuzanira ibyo kurya, amashuka, imyenda, akazahamara igihe runaka.

Umukobwa w'umuzungu ufite igitabo mu ntoki, yambaye impuzankano z'ubururu, imbere hari umuganga wundi w'igikara, ufite menshi wambaye itaburiya y'umweru n'impuzankano y'ubururu, ari kuvugisha umurwayi witandiye akantu mu mutwe, wambaye umupira usa ikijuju.

Ntabwo kujya muri jimu ari iby'abahaze gusa cyangwa abo amafaranga yasagutse, ahubwo twese birakwiriye yuko tugerageza kugana jimu tugakora imyitozo ngororamubiri kuko twese bidufasha, kubera ko itangiye gusaza ibinure by'ibintu byinshi turya birimo amavuta bitangira kukugaruka.

Ubu ngubu Leta yarabyoroheje ishyiraho uburyo bugiye butandukanye ku babyeyi babyaye kugira ngo bajye bajyana abana babo kwiteza inkingo z'ingenzi bakiri batoya, urugero harimo nk'Iseru, Imbasa n'izindi ndwara nyinshi zikunze kwibasira abana bakiri bato.

Ubusitani bwiza cyane bufite indabo zifite udutwe tw'umutuku, hari inyubako yubakishije amakoro isa neza cyane. Hari amatara yo hanze, agaragaza nkaho bwije, ashobora kumurikira ino mbuga ikaba igaragara kandi hasa neza cyane.

Ahantu henshi mu bigo binini hakunze kuba hari akantu kariho icyapa kerekana ibintu byose cyangwa serivisi zitangirwa aho hantu n'ahantu ushobora kuzisanga. Kubera ko usanga ari ahantu hanini ntabwo hose ushobora kugenda usoma buri muryango kugira ngo umenye icyo ukeneye by'umwihariko.

Abantu bakuze bajya bahura n'ikibazo cy'uko baba bakeneye umuntu uba hafi igihe cyose ariko hakabura umuntu ubifitiye umwanya. Niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda cyagiye gishyiraho ibigo bitandukanye mu gihugu hose byita ku bantu basheshe akanguhe bityo bikabaha abantu baba bari kumwe na bo amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane.

Amakaro cyane akeye asa kaki, intebe zikozwe mu biti n'ameza meza cyane, intebe zindi zambaye umwenda usa ikijuju, insakazamashusho imanitse hejuru, hari umuntu hirya turi kubona wegereye umuryango ndetse n'ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye bimeze nk'aho ari ibyo kwigisha abana bakiri bato.

Kwa muganga mu byumba biraramo abarwayi ni hamwe hamwe mu hantu hagirirwa isuku ikomeye, kubera ko umwanda ushobora kuba kimwe mu bintu bikomeza kongerera umurwayi impamvu nyinshi zo kuremba, bityo abahakora buri gihe barahakoropa kandi bakita ku mashuka igihe ashaje cyangwa se yanduye bakayahindura.

Irembo ni rubuga rwashyizweho na Leta rukoreshwa usaba serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko baguca amafaranga magana atanu ya serivisi iyo hari ikintu ukeneye kuri uru rubuga, ibintu byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro biri inyuma y'umugabo wambaye amarineti, wambaye ijire yanditseho RBC.

Yego umuntu urwaye, aba akeneye kuba ari kumwe na muganga kugira ngo amuhe imiti kandi amuvure; ariko igihe bamuhaye ibitaro, ntabwo azahorana na muganga, kubera ko muganga aba afite abandi barwayi agomba kwitaho. Muri iki gihe, haba hakeneye abantu bo mu muryango w'iwe baza kumuba hafi, bakamuzanira ibyo akeneye nk'amafunguro n'ibyo kwambara n'ibindi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubuvuzi bisa umweruru, birimo ibikoresho byo gupima no kuvura, bikoze mu cyuma, hari ibikoresho by'amashanyarazi, imashini zitandukanye zikoreshwa mu gusuzuma no gukurikirana abarwayi, ku meza hari mudasobwa nyinshi, zifite insinga nyinshi zikoreshwa mu guhererekanya amakuru, no gufasha abaganga mu gukora ibizamini.

Ikicungo cy'abana bato, kiri mu mashuri y'ikiburamwaka. Hari igifite amaguru atatu, abiri asize ibara ry'ubururu n'ukundi kuguru kumwe gusize ibara ry'icyatsi. Kiri ahantu mu busitani bwiza, hari ibiti ndetse inyuma ndi kuhabona ipoto ry'amashanyarazi.

Ibipirizo byinshi kandi binini biri kunagana mu kirere, harimo ibisa umweru n'ibisa ubururu, biri ahantu hasa umweru, hari irange ryiza cyane, hari ibintu bifasha kugira ngo byinjize umwuka mwiza n'igishushanyo cyerekana ijisho. Harasa nk'aho ari kwa muganga w'amaso.

Kuri ubu ngubu ubuvuzi bwateye imbere, ku buryo uyo umuganga hari umurwayi ari kuvura cyangwa se ari kumubaga, aba ari kubasha kureba indani mu ngingo, akabasha kumenya ahantu hari ikibazo. Izi mashini zifasha kugira ngo uwo muganga abashe kureba ahantu ari gucisha ibyo ari kwifashisha abaga uwo murwayi.

Ese uragira ngo wakongera kugira ikibazo cya Malariya, uramutse ufite inzitiramibu nk'izi ngizi iwawe mu rugo? ariko si ibyo gusa jya wibuka gufunga amadirishya hakiri kare kubera ko inzitiramibu ntabwo zihagije gusa kugira ngo wirinde Malariya.

Ibitaro byiza bya kijyambere biteye irangi ry'umweru, birimo inzitiramibu kugira ngo hirindwe Malariya, hakaba hari ahantu hatandukanye ho gucomeka ndetse hakaba hari utugare, dutwarwaho ibintu bishyiriwe abarwayi ndetse n'ibirahuri binini cyane byinjiza urumuri rwinshi kandi ruhagije.

Muri farumasi, ni ahantu usanga imiti cyangwa se ibinini, bishobora kwifashishwa wivura, igihe ugize ikibazo. Ariko si ibyo gusa, kubera ko uhasanga n'udukingirizo, imibavu, uburoso bw'amenyo, n'ibindi bintu byinshi nk'amavuta, byo kwita ku buzima.

Iyo ugiye kwa muganga utazi ikibazo ufite cyangwa se icyo urwaye, kimwe mu bintu bya mbere bikorwa, babanza kugufata amaraso ariko hari ibyuma byabugenewe bikoreshwa n'abantu babifitiye uburenganzira n'ubushobozi ntago ushobora kubyikorera, uri mu rugo iwawe.

Kuri ubu byaroroshye ntabwo bigisaba ngo iyo ugiye muri gym gukora siporo, wihimbire ibyo ugomba gukora kugira ngo bigufashe, ahubwo hasigaye hari abantu babigize umwuga, bashinzwe gukora ubwarimu bwo muri gym, bagatanga ibintu abantu baba bakwiye kugenderaho, ndetse bakakwereka n'indyo ukwiriye kurya.

Leta y'u Rwanda yadushyiriyeho umunsi rusange wa siporo witwa Car Free Zone. Akaba ari umunsi ukunze kubaho ku munsi wa karindwi w'icyumweru, aho buri wese ashobora kubyuka mu gitondo akizindura, agafatanya n'abandi bagakora siporo mu muhanda.

Mu kazi twirwamo ka buri munsi turirwa twicaye, cyangwa se ugasanga umuntu amaze amasaha menshi, ari ahantu hamwe, imitsi ye itarambuka, cyangwa se ngo unarambure ingingo. Bityo ni byiza yuko igihe ubonye umwanya, ujya ahantu habugenewe hakorerwa siporo nko muri jimu, ukagerageza gukora no kurambura imitsi yawe, kuko bishobora kukuviramo indwara.

Hari imyaka umwana ageramo bikaba ari ingenzi kugira ngo umurekure ajye gukina n'abandi bana bangana. Si byiza yuko uhora umukingiranye umwemerera ko aguma kuri tereviziyo gusa no ku materefone. Ahubwo rimwe na rimwe ujye umureka asange inshuti ziwe babashe gukina bagorore imitsi.

Muri siporo, haba hari abaganga babugenewe, bita cyangwa se bafasha abakinnyi, igihe bahuye n'imvune. Kubera ko iyi mikino isaba imbaraga, hari igihe habaho kenshi yuko umukinnyi ashobora kuvunikira mu kibuga. Ariko ntabwo bituma umukino uhagarara, ahubwo hari abantu baba bari hafi, bahita baza bagatanga ubutabazi bw'ibanze.

Hari ubwo umuntu ashobora kugira impanuka, akaba atakibasha kwigenza ku giti kiwe, ahubwo bikamusaba kugenda hari ikindi kintu afasheho. Ariko hari inkoni zabugenewe, zitangwa no kwa muganga, cyangwa se abandi babifitiye uruhushya, zishobora guhabwa umuntu wahuye n'iki kibazo.

Ushobora kuba utekereza yuko siporo ari iy'abantu bageze mu zabukuru cyangwa abafite amavunane gusa. Ariko si ko biri. Siporo ni iya buri wese, twese dukwiye kuyikora kandi nurangiza gukora siporo ugerageze kunywa amazi ahagije, byibuze litiro imwe cyangwa ebyiri ku munsi.

Birasa nk'aho uno mudamu wicaye wambaye amarineti, umupira w'umutuku n'agakabutura gato gasa ikijuju, ashobora kuba ari kwereka muganga ahantu ari kubabara mu ivi, ivi ni igice cy'umubiri kibabaza iyo cyagize ikibazo, bityo ni byiza yuko niwumva ugize ikibazo mu ivi, wegera umuganga ukwegereye kugira ngo abashe kureba ahantu waba uri guhura n'ububabare.

Kimwe mu bintu abantu bakunze kwirengagiza ariko cy'ingirakamaro cyane ni ukunywa amazi. Bamwe babifata nk'igihano cyangwa se ikintu gihora kivugwa ariko nta mumaro kigira. Ariko burya amazi afasha byinshi mu kurinda nk'indwara z'impyiko ndetse no kugira ubuzima bwiza muri rusange.

Nubwo ibyuma biba bicinyitse kwa muganga bitera ubwoba abantu benshi, ni bimwe mu byerekana yuko ibyo bitaro, bifite ibikoresho bihagije, byo kuvura abarwayi. Harimo ibintu byinshi usanga utari uzi cyangwa se ubunye bwa mbere, bikagutera ubwoba. Ariko byose ni ibyo kugira ngo uvurwe, kandi neza.

Umuryango wa Coix rouge, ni umuryango umaze igihe kirekire mu Rwanda. Bano bantu ba Croix rouge uzabasanga ahantu hahuriye abantu benshi, nko muri za mace, mu masitade atandukanye, mu bigo, abantu bagiye kwibuka, kubera ko bakunze kuba hafi kugira ngo bahite batanga ubutabazi bw'ibanze, ku muntu waba ugize ikibazo icyo ari cyo cyose.

Kunywa amazi ntabwo bihagije, ahubwo iyo ugiye ushyiraho imbuto zigiye zitandukanye ndetse ugerageze gukora siporo kandi ujye uhora wipima uburebure n'ibiro kugira ngo ujye umenya uburyo ukurikirana imirire yawe, umenye ibyo gushyira mu mubiri n'ibyo kwirinda.

Ikoranabuhanga ryazanye kandi ryoroshya byinshi, hamwe mu hantu boroheje serivisi zihatangirwa ni kwa muganga. Ubungubu biroroshye kuba bakoresha imashini zisikana mu mutwe hakabasha kuboneka indwara umuntu yaba afite, yaba yaribasiriye ubwonko.

Indwara z'imitsi ni zimwe mu ndwara zikunze kwibasira abantu bageze mu zabukuru. Kugira ngo wirinde izi indwara, tangira uge wiga gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri maze wige no gukandakanda imitsi yawe kugira ngo utazagira ikibazo k'ibyuririzi kizamukira mu kudakora siporo.

Muri guma mugo ntabwo byari igihe cyo kugira ngo twicare turekere gukora siporo. Ahubwo Leta yacu y'u Rwanda, yagiye ishyiraho uburyo butandukanye, ushobora gukorera siporo iwawe, hatabayeho kwanduzanya kovide, kuko utaba ugikeneye guhura na mugenzi wawe, ahubwo ushobora kubyikorera nawe uri iwawe mu rugo.

Ubu ntibigisaba kuba uri i Kigali, igihe ukeneye gimu yo gukoreramo siporo, kubera ko ahantu hose mu gihugu hagiye hagera zino gimu, igihe rero ukeneye siporo ushobora kuhasanga ibyuma byabugenewe, ibyuma bya kinyamwuga byagufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Ese wari ubizi yuko igihe cyose ugize ikibazo cy'imvune atari ngombwa ko ujye kwa muganga? Ushobora kujya kuri farumasi ukaba wagura pomade igihe ugize ikibazo cy'imvune nawe ukabasha kwikanda. Uretse pomade kandi ushobora kwifashisha amazi ashyushye cyangwa se barafu wikanda aho wagize ikibazo.

Si buri gihe umuntu wese ugize ikibazo cy'imvune ahita yirukanswa kwa muganga, kubera ko hari ubuvuzi bw'ibanze bushobora gukorwa umuntu yibereye mu rugo, kimwe muri ubu buryo ushobora kwifashisha barafu cyangwa se amazi akonje ugakanda ahantu wagize ikibazo.

Ibikoresho byinshi bya kijyambere byifashishwa n'abantu babigize umwuga mu kuvura abantu bari mu mikino itandukanye. Hari imakasi iryamye hasi, hari utuntu dukoreshwa tuzirikwa ahantu hari imvune, udukoreshwa tuzirikwa ahantu hari ibisebe. Ibi bikoresho ukunze kubisanga ahantu hakorewe siporo.

Aho yasaga nk'uri kuruhuka, uyu musore uri gukora agasiporo, yafashe akaruhuko yegera ahirengereye ku mazi, ashyira ekuteri mu ijosi, arabanza yinywera amazi mu gacupa ke gasa ubururu ndetse yambaye akandi kantu ku kuboko, iyi ni imyambaro yifashishwa iyo umuntu ari muri siporo.

Ibyuma byo kwa muganga buri gihe bifite ahantu bibanza kunyuzwa ahabugenewe, kugira ngo bitunganywe kandi bihanagurwe mu buryo bwa kinyamwuga, ibi ni ukugira ngo hirindwe indwara zishobora kwandurira mu gukoresha ibyuma bityaye bishobora kuba byakebana, urugero harimo nka SIDA n'izindi ndwara zigiye ziremereye.

Kera umuntu wese wavunitse ukuguru bamuhaga imbago kugira ngo abashe kugenda, ariko ubu buvuzi bw'ingingo bwateye imbere, ku byo hasigaye hari izindi mashini zabugenewe zambikwa ukuguru, zibasha gushyigikira ukuguru akabasha kugenda nk'ibisanzwe adakeneye imbago.

Uyu mugabo yambaye ishati isa roza, yicaye imbere y'imashini afite ibyo ari kwitegereza bisa nk'aho ari amashusho yo kwa muganga, hari ibyuma byinshi by'umweru, ibyuma bicomekeranyije bifite imigozi myinshi, ndi kubona n'ahantu ho kogera, ibi birasa nkaho ari ibitaro.

Ikoranabuhanga ryazanye ibikoresho byinshi bya éregitoronike bifasha mu buzima bw'akazi bwa buri munsi, akaba ari ibikoresho bikoresha amashanyarazi kugira ngo bikore umurimo wabyo. hari bimwe nk'ibibara amafaranga, ibibara ibiro, ibiterura ibintu biremereye n'ibindi n'ibindi.

Iyo umuntu yavunitse urugingo ntabwo aba akibashije kwigenza ku giti cyiwe. Kwa muganga ariko hari ibyuma byabugenewe, bihabwa uyu muntu kugira ngo abashe kongera kwiga kwigenza ndetse n'igihe atari yakira, akabasha kwigeza aho ashaka kujya, ntawundi muntu umufasha.

Igihe urembye ntabwo ari buri gihe uhita wirukanishwa kwa muganga. Ushobora kugera muri farumasi ugasobanurira uwo uhasanze ikibazo ufite, hakaba hari imiti yaguha igabanya ubukana cyangwa uburibwe aho kugira ngo wirukankire kwa muganga usange yari ikintu nawe ushobora kwikemurira ku bwawe.

Ese urabona hano hantu hadasa neza, izi rero ni zimwe mu nyungu z'abaturage gutanga imisoro leta ibasaba, kubera ko niho hava kubaka amashuri, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ari naho havuye kubaka ibitaro nk'ibingibi bya kijyambere.

Umusore muto cyane usa nk'uvuye muri siporo yo kwiruka, yambaye umupira w'ikijuju, afite icupa ry'amazi menshi mu ntoki arimo kuyanywa, mu maso ye haragaragaramo icyizere cyinshi kandi ibyuya afite ku gahanga, bigaragaza yuko yakoze imyitozo ikomeye koko.

Amazi ntago ari ay'abakora siporo gusa, ahubwo amazi yagakwiye kuba ari ikintu cya buri munsi twimenyereza, ukabyuka unywa byibuze litiro n'igice mu gitondo, kuko ariko aba dogiteri batubwira, ugerageze kunywa amazi menshi kuko yoza mu mpyiko, ndetse afasha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Siporo ntabwo ari iy'abagabo gusa. N'abagore bajya bakora siporo kandi nabo basigaye babikora neza cyane. Uyu nguyu ari kunywa amazi menshi cyane afite isume ku rutugu rwiwe isa umweru. Yambaye agapira karimo amabara y'icyatsi, ubururu n'umweru.

Umuganga w'umudamu, wambaye ijire y'ubururu bw'ikirere, afite akantu mu intoki kari kumurika mu kanwa k'umwana, amufashe ku mutwe, ari kureba ikibazo yaba afite cy'amenyo. Yambaye umupira w'iroza mbese arasutse, yambaye n'amaherena.

Iyo umuntu avunikiye hagati mu kibuga, haba ari urugendo rurerure kuva aho ari, ugera ku baganga biwe. Niyo mpamvu buri gihe, hari agakoresho kazanwa k'akuma, bamurambikaho, bakamuterura bakamugeza ahantu hari ibitaro kubera ko ntago bamuvurira mu kibuga kandi siporo iba iri gukomeza.

Inanasi, ibijya mu ikawa, isukari, ibisigwa mu mugati, hari ibintu byinshi ushobora kwifashisha mu mafunguro ya mu gitondo kugira ngo ubashe kugira intungamubiri zihagije utangirane umunsi wawe akanyamuneza n'imbaraga zihagije.

Iyo wateguye ikirori iwawe ni ngombwa kuba uba ufite icyo kwakiriza abashyitsi cyo kunywa, kugira ngo icyaka kitabica igera ku mabutiki akwegereye ubashakire ibintu bari bunywe, yaba abanywa ibikonje cyangwa ibidakonje abanywa ibisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Hari imiti myinshi ishobora gukoreshwa n'abantu bafite uruhu rukanyaraye. Urugero hari nk'imiti ikorwa mu gikakarubamba, ni umuti mwiza cyane, ushobora kwifashisha, kandi hasigaye hari poromosiyo ushobora kugenda uyiguriraho ahantu hagiye hatandukanye.

Ibarurishamibare ryagaragaje y'uko, bimwe mu bintu bidutwara amafaranga menshi ari ukwivuza, ariko se buriya nawe ubishatse, nabwo ushobora kwiterera ibimera byinshi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ukajya wivurira iwawe, bitagusabye kujya kwishyura amafaranga menshi, mu binini n'ibitaro n'ibindi bintu?

Sanitayiza cyangwa umuti ukoreshwa wica udukoko, ni umuti wakoreshejwe igihe kirekire muri covide cumi n'icyenda, aho batubwirizaga kuwukoresha igihe uri kujya ahantu hari abantu benshi ukayitwaza kugira ngo ukarabe mu ntoki, igihe utayifiti iyi ngiyi wahitaga ujyanwa ahantu hari robine n'isabune ukajya gukaraba n'abandi bose.

Amaronji cyangwa mandarini, ni zimwe mu mbuto nziza zishobora gukorwamo umutobe ufite intungamubiri zikomeye umubiri ukenera, ubashije kubona uburyo wagura ingemwe zabyo ku isoko, bitere iwawe maze ubikuze nawe ujye wikore imitobe yabyo.

Wari ubizi se yuko hari imiti ushobora kwikorera iwawe ya gakondo? Si buri gihe dukoresha imiti ivuye muri farumasi. Hari igihe ibyatsi bihingwa bishobora kuvamo umuti ushobora kukuvura ariko aho kugira ngo ubikore utabizi, banza wegere abantu basanzwe babizobereyemo bakwereke uburyo bikorwa.

Nta ndyo yitwa iyuzuye iyo idafite ibikungahaye kuri vitamini bituruka mu mboga rwatsi. Bityo nujya guhaha ugahaha inyama n'ibindi byinshi nk'umuceri n'ibirayi. Uge wibuka ko imboga rwatsi nazo ari ingenzi nazo uzihahe.

Igikakarubamba iki dusanzwe tubona mu murima ni kimwe mu bintu bivamo imiti ikomeye ivuru uruhu, ndetse kandi hari amakampani menshi ku isi yabigize umwuga akora ibintu byinshi mu gikakarubamba, harimo amaji cyangwa se amavuta yo kwisiga n'ibindi bintu byinshi bikomoka kuri iki kimera.

Ubu kandi iyo ubonye ibyatsi nk'ibi ngibi, utekereza yuko ababikenera ari abantu bakuze gusa! Ariko si byo. Kubera ko n'abantu bato bakenera imboga ndetse n'ibindi bintu bikorwa mu bimera, bishobora kwifashishwa igihe uri kwivura indwara nyinshi zakuzahaje.

Muri iyi minsi usanga abantu benshi bakunda gushyira amapave mu rugo rwabo ugasanga nta mwanya usigaye wo gushyiramo akarima k'igikoni. Ni byiza yuko ushaka ahantu mu gikari cyawe ukahatera akarima k'igikoni ugatera imboga rwatsi cyangwa se imboga dodo, ukajya ubasha kuziteka ku mafunguro yawe ya buri munsi.

Kimwe mu bintu badushishikariza kurya cyane cyangwa se gukoresha ni indimu. Indimu ni kimwe mu bintu ushobora kwifashisha uri gukora umuti bitagusabye kujya kugura ibinini kuri farumasi. Igitunguru na cyo ushobora kugikoresha mu miti, ukabasha kwikorera ibintu bishobora kukuvurira mu rugo bitagusabye kugira ahandi ujya.

Ibintu by'imiti ya gakondo cyangwa se imiti ya Kinyarwanda, ni ibintu Abanyarwanda batinze kumva, kubera ko ari ibintu ubwa mbere bitabaga byizewe ubuziranenge bwabyo. Ariko kuri ubu, leta isigaye yarabyemeye, kuko hasigaye hari ababikora babifitiye uburenganzira, kandi babyize kinyamwuga.

Mu mashusho acyeye cyane kandi asa neza haranditse ngo umunsi mpuzamahanga wahariwe imiti gakondo ya kinyafurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Hasi handitse insanganyamatsiko bari buganireho muri iki gitaramo cyo kugira ngo haganirirwe uburyo iyi miti yatezwa imbere.

Si byiza y'uko dukomeza kujya turya ibiryo birimo amavuta gusa kuko amavuta menshi mu mubiri ntago ari meza. Twige kujya turya imboga dodo n'imbogarwatsi kuko na zo zivamo vitamini nkenerwa mu mubiri, tangira wige, uzaze uteka ibiryo bitogosheje kandi bigiye birimo imboga nyinshi kugira ngo wirinde ibibazo bituruka mu binure.

Ibiti byinshi birebire nk'ibi ngibi byiza n'ibyatsi bireshya gutya ubisanga muri pariki nk'akagera ndetse n'izindi pariki zigiye zitandukanye ziri mu Rwanda. Ikirere kirasa neza cyane rwose, hari urumuri rwinshi ruhagije. Ubusanzwe inyamaswa ku kirere gisa n'iki ngiki ziba zasohotse zikaza zikota akazuba.

Hari amavuta menshi akoreshwa twisiga ku mubiri ndetse kandi hari n'amavuta yabugenewe ku bantu bafite umubiri ukomeye. Niba ufite umubiri ukomeye, egera amaduka amwe n'amwe acuruza ibikoresho nk'ibi ngibi byo kwita ku mubiri, maze ushake amavuta akwiranye n'umubiri wawe.

Mu bintu nkenerwa mu mubiri, harimo vitamini. Ni byiza yuko ushaka ibiryo bikungahaye kuri vitamini, nk'ibinyampeke cyangwa se ibindi bintu bifite isukari, kuko ibi ngibi bifasha umubiri kurwanya indwara, ndetse no kuwukomeza muri rusange.

Ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga hari abantu benshi bari gukorera amafaranga, bagenda bagashyiraho ibintu bari nko gusetsa abantu, bari nko kuririmba cyangwa ibindi bikorwa, nawe nta kindi kintu bigusaba, shaka ibikoresho bifata amashusho, maze nawe utangire gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga.

Imiti gakondo cyangwa se imiti ya Kinyarwanda ntabwo ari imiti yagenewe abantu b'amikoro make gusa, ahubwo hari n'indwara usanga ino miti ivura neza kurusha imiti yo muri farumasi, bityo niba ugize ikibazo banza wegere abavuzi gakondo bakwegereye, urebe niba hari ikintu bagufasha.

Hari impamvu leta yashyizeho yuko amafarumasi yemerewe gufungura igihe cyose amasaha yose makumyabiri n'ane kuri arindwi, ni ukubera ko indwara idateguza igihe icyo ari cyo cyose umutwe ushobora kugufata ugakenera kujya kugura ibinini muri farumasi, ni byiza yuko igihe ushaka ibinini uri buge ku muhanda ugasanga farumasi zigifunguye amasaha ayo ari yo yose.

Hasigaye hari imfashabere nyinshi zitandukanye umubyeyi ashobora kwifashisha igihe ari konsa ariko akabura amashereka. Si ngombwa buri gihe kugira ngo ugerageze gukomeza kurya ibiryo udashoboye, ahubwo ihutire kuri farumasi usabe imfashabere ushobora kwitwaza mu gihe uri konsa umwana, akaba na we yabasha kugira intungamubiri nyinshi nk'izo yagakuye mu mashereka.

Kuri ubu ngubu mu gihugu ahantu henshi hagiye hatandukanye, ushobora kuhasanga abantu bavura bakoresheje imiti ya kinyarwanda, cyangwa se dukunze kwita imiti ya gakondo. Kera abantu barabitinyaga, ariko ubu ngubu hari ahantu henshi babifitiye uburenganzira kubera ko byujuje ubuziranenge.

Amavuta yo ku mubiri akozwe mu bimera by'igikakarubamba bya Aloe vera. Afunze mu icupa ryiza rifite ibara risa icyatsi kibisi, aya mavuta uyabonye wayagura kubera ko ari amavuta meza akoreshwa ku bantu bafite uruhu rwumye n'abantu bagiye bafite izindi ndwara zitandukanye z'uruhu.

Kuri ubu ngubu ibigo bigira imiti gakondo ni byinshi mu Rwanda, hasigaye hari imiti igiye itandukanye nk'imiti ifasha abantu igihe babura ibitotsi, imiti igabanya ububabare bw'imitsi, imiti ifasha kugarura apeti, imiti ifasha ku bagore batabyara n'indi miti igiye itandukanye ushobora gukura kuri ibi bigo kandi yujuje ubuziranenge.